Mu nzu harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bicaye ku ntebe z'umweru bari mu nama, inyuma yabo hari umuntu w'umugabo ufite imfatashusho inyuma yabo.

Mu inzu harimo umuntu w'igitsina gabo, wambaye ikositimu y'umukara, karuvati n'ishati y'umweru n'amadarubindi. Hiryara ameza ateretseho amazi ni aya sociyete y'inyange bigaragare ko bari mu inama. Inyuma ye hari icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho amagambo menshi ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo.

Abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umweru, biragaragara ko bari mu nama, inyuma hari undi muntu w'igitsina gabo uhagaze wambaye umupira w'umweru.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane higanjemo igitsina gabo bicaye ku ntebe za kake hari abari kwandika n'abafite indangururamajwi mu ntoki zabo n'imfatamashusho bari mu nama.

Mu nzu nini cyane isize irangi ry'umweru harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore, bafite n'amacupa y'amazi ya sosiyete y'inyange, imbere hari umuntu w'igitsina gore wambaye ikanzu y'umutuku, ufite indangururamajwi mu ntoki ze uri kuvuga.

Inama irimo abantu benshi cyane, harimo umwe w'igitsina gabo wambaye ishati y'ubururu ufite indangururamajwi mu ntoki ze, imbere ye hateretse igitelefone kinini, inyuma ye hari icyapa kinini cyane cy'ubururu cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umweru, bikorere mu isibo.

Mu inzu harimo umuntu w'igitsina gabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'ubururu bwerurutse na karuvati, yicaye ku ntebe z'icyatsi imbere hari ameza ateretseho terefone, ikaramu n'ikayi n'amazi ya sociyete y'Inyange bari mu inama.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore baje kwiga umuco Nyarwanda aho bakoreshaga urusyo n'ingasire basya amasaka ari ku nkoko ndetse n'igiseke cyo kuyashyiramo.

Mu gisharagati harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, harimo n'umukobwa mwiza wambaye imyenda yo mu muco nyarwanda y'imikenyero uri kubyina imbyino za Kinyarwanda.

Inzu nini cyane kandi nziza itatse mu buryo bw'umuco Nyarwanda, harimo abantu benshi igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'icyatsi, imbere yabo hateretse ji n'amazi bya sosiyete y'inyange, hari n'abafite indangururamajwi bari kuririmba mu muco Nyarwanda.

Ahantu hahuriye abantu benshi bari kubyina imbyino z'umuco nyarwanda, umukobwa uri gukoma amashyi wambaye urunigi rw'umweru n'umukenyero w'umweru, ari kubyina imbyino za kinyarwanda.

Mu gishararagati harimo abantu benshi cyane bicaye harimo igitsina gabo n'igitsina gore imbere yabo hari umukobwa mwiza wambaye imyenda yo mu bwoko bw'imikenyero uri kubyina imbyino zo mu muco nyarwanda wateze amaboko.

Mu mugisharagate harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore, harimo n'abakobwa beza bambaye imyenda yo mu bwoko bw'imikenyero bari kubyina imbyino zo mu muco nyarwanda.

Inka yo mu rukari y'ubwoko bw'inyambo, ifite amahembe meza, inyuma ye hari umuntu w'igitsina gabo wambaye imyenda y'umweru y'ubwoko bw'imikenyero uyitaho, aho abantu baza kureba zino nka bakanazisura.

Mu nzu harimo umuntu w'igitsina gabo, wambaye ishati ya shokora n'umweru, wambaye n'isaha ku kuboko n'amadarubindi, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, ari kuvuga ku muco nyarwanda. Inyuma ye hari intebe z'icyatsi.

Mu murima munini ,uhinzemo ibihingwa, harimo sitasiyo y'amashanyarazi ,akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye ,kugirango abaturage babashe gucana umuriro w'amashanyarazi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo ducagaguye tw'umweru n'umukara, hakurya y'umuhanda hari uruhurirane rw'umuhanda w'amashanyarazi, aho bawukwirakwiza ahantu hatandukanye kugira ngo abaturage babashe kuwubona.

Hanze hari abantu babiri b'igitsina gabo bambaye ingofero z'umweru n'amajire y'icyatsi hari aho umuriro w'amashanyarazi uhurira, aho ukwirakwizwa mu baturage kugira ngo babashe kuwubona.

Uruhurirane rw'umuriro w'amashanyarazi, hari amapoto manini n'amato, hahurira umuriro w'amashanyarazi kugira ngo akwirakwizwe mu baturage, ahantu hatandukanye, babashe gucana.

Ipoto rirerire cyane ry'umuriro w'amashanyarazi rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye, hariho umuntu w'igitsina gabo uri gukora umuriro w'amashanyarazi, bigaragare ko wangiritse hasi hahagaze n'umuntu w'igitsina gabo wambaye imyenda yanditse mu ibara ry'umutuku.

Inzu y'ihuriro ry'amashanyarazi, isize irangi ry'umweru, ifite n'inzugi za shokora, hanze hahagaze abantu benshi b'igitsina gabo, bambaye ingofero z'umuhondo n'ibisarubeti.

Abantu benshi cyane b'igitsina gabo, bambaye ingofero zibarinda, basutamye, bari ahantu hahurira umuriro w'amashanyarazi aho ugenda ukwirakwizwa ahantu hatandukanye kugira ngo abaturage babashe kuwubona, hari ibikoresho byinshi cyane bikoreshwa kugira ngo ugere ku baturage.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abambaye ibisarubeti by'ubururu n'ingofero z'umuhondo bakora amashanyarazi, inyuma yabo hari ibikoresho bitandukanye.

Inzu nini cyane yubakishije amatafari ahiye ni igororero harimo abantu benshi cyane b'igitsina gabo n'igitsina gore bagororeramo bambaye imyenda ya oranje n'abandi bambaye iyiroza bari kwinjiramo.

Mu muhanda w'igitaka imvura yaguye umuhanda urasaya, harimo ibinyabiziga bya moto, hirya hari umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye biragaragara ko umuhanda wangiritse.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo abantu bari kwambuka, hakurya y'umuhanda haparitse moto n'amagare, hirya y'umuhanda nanone hari inzu nini kandi nziza, isi ziranranye ry'umweru, iriho n'idarapo ry'igihugu.

Inzu nini isize irange ry'umweru, mu idirishya hahagazemo umuntu wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, hari n'abandi bicaye ku ntebe z'ibiti. Kuri iyo nzu handitseho gira ubuzima mu ibara ry'ubururu, hanze hari kandagira ukarabe iriho ikigega cy'ubururu.

Amazu menshi kandi meza, yubakishije amatafari ahiye, afite inzugi n'amadirishya byumukara, yubakishije amabati umutuku, azatuzamo abatishoboye, hirya yaho hari ibiti n'amashyamba.

Inzu nini cyane kandi nziza yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'umweru, ifite akazeru karimo ibara ry'ubururu n'icyatsi, karimo inyange handitseho inyange pawuda pulanti mu ibara ry'ubururu.

Inzu nini cyane kandi nziza yanditseho Girubuzima Health Post, hari abantu benshi cyane igitsina gabo, igitsina gore ndetse n'abana, hanze hari n'ubusitani buteyeho ibiti bwo mu bwoko bw'imikindo bari mu nama.

Abantu babiri, harimo umwe w'igitsina gabo, wambaye ingofero y'umweru n'ishati y'umukara n'undi igitsina gore, witeze igitenge mu mutwe, wambaye n'umupira w'icyatsi, bahagaze ku cyapa kinini cyane cyanditseho Kagitumba, inyuma yaho hari ipoto y'amashanyarazi ndetse n'amazu menshi kandi meza.

Icyapa kinini cyane cyanditseho amagambo menshi mu ibara ry'umukara hari n'ikindi cy'icyatsi kiriho agafureshi cyanditseho Nyagatare disitirigiti bigaragaza ko uba wagize Nyagatare, hirya hari ubusitani buteyemo ibyatsi n'ibiti.

Mu gisharagati harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye ku ntebe z'umweru, baziritse udutambaro mu ijosi two kwibuka, hari n'umugabo wambaye imyenda y'ubugenzacyaha, yanditseho RIB.

Hanze hari abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore hari abicaye n'abahagaze bamaze guhabwa amatelefone ya sosiyete ya airtel kugira ngo na bajye bakoresha itumanaho hari n'umuntu wambaye impuzankano y'icyatsi y'abashinzwe umutekano abadasso.

Ibisharagati bya kijyambere by'umweru byicayemo abantu benshi batandukanye, harimo igitsina gabo n'igitsina gore n'abashinzwe umutekano bambaye impuzankano ya gisirikare ndetse n'iy'abadaso, biragaragara ko baje kumva uburenganzira bwabo ndetse no guhabwa ubutabera.

Mu gishararagati hicayemo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'igitsina gore. Harimo abambaye imipira y'ubururu, harimo n'abambaye impuzankano ya gisirikare. Imbere yaho hateretse ameza ariho amazi ya sosiyete y'inyange. Bafite buji mu ntoki zabo zicanye, bari kwiga ku burenganzira n'ubutabera bafite.

Mu gisharagati harimo abantu benshi cyane, harimo igitsina gabo n'igitsina gore ndetse n'abanyeshuri bambaye impuzankano, bicaye ku ntebe z'umukara n'umweru, bari kuganiram ku burenganzira bafite ndetse n'ubutabera.

Hanze hari abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore, hari abicaye ku ntebe z'umweru n'abicaye hasi, bari guhabwa ubutabera ndetse babwirwa n'uburenganzira bafite.

Mu gisharagati cy'umweru harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore baje gushyingura abantu babo, hariho indabyo, harimo n'abantu bambaye imyenda y'imikara bambaye naga z'umweru biteguye guterura iyo mibiri.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imyenda yo mu bwoko bwa kinyarwanda n'imikenyero, bafite impamyabumenyi mu ntoki zabo, hari n'undi mugabo wambaye imyenda y'impuzankano ya polisi uri gutanga iyo mpamyabushobozi.

Mu gisharagati hicayemo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, harimo abambaye imipira y'ubururu n'umuhondo, n'umukara n'abambaye impuzankano ya polisi, n'undi wambaye impuzankano ya gisirikare, bari guhabwa ubutabera n'uburenganzira bafite, hirya yabo hari n'ibiteretseho amazi ya sosiyete y'Inyange.

Abantu benshi cyane harimo: ab'igitsina gabo n'igitsina gore n'abana, hari n'igisharagati cy'umweru bahagaze hanze, hari n'umuntu w'igitsina gabo uhagaze imbere yabo, yaje kubabwira ubutabera n'uburenganzira bafite.

Mu nzu yubakishije amatafari ahiye harimo na tapi y'icyatsi, harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore n'intebe z'umuhondo, harimo abazungu n'abirabura bari gukoma amashyi, bari kureba uburenganzira bafite ndetse n'ubutabera.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo uturongo tw'umweru n'umukara, harimo ikinyabiziga cy'igare, kiriho umugenzi, hirya hari amazu y'ubucuruzi, acuruza ibicuruzwa bitandukanye.

Aho imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ziparika, hari imodoka nyinshi cyane z'umweru hirya yaho hari amaduka menshi acuruza ibintu bitandukanye, hari n'aho abagenzi bicara mu gihe bategereje imodoka.

Mu muhanda wa kaburimbo ha aho abanyamaguru bagendera, harimo n'ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi, rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye, hari icyapa kinini cy'umweru n'umutuku cyanditseho REG mu ibara ry'umutuku, Nyagatare blanch mu ibara ry'umukara.

Icyapa kinini kiri mu ubuso bwa mpande enye bw'umukara, mu imbere harimo umweru, cyanditseho karangazi n'imirongo ibiri ivunaguye, aho uhageze ahita amenya ko ageze karangazi.

Icyapa gikoreshwa mu mategeko y'umuhanda kiri mu buso bwa mpandeshatuli isa umutuku mo imbere harimo umweru hashushanyijemo igare bishatse kuvuga ko hanyura abanyamagare gusa, hirya hari ishyamba ririmo ibiti.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo icagaguye y'umweru n'umukara n'undi muremure w'umweru. Harimo moto iri kugenda icanye amatara, hari n'icyapa kirimo ubuso bwa mpande eshatu bw'umutuku. Mo imbere harimo umweru, harimo n'umuriro uri gutambuka kigaragaza ko imbere hari aho abanyamaguru batambukira.

Muri parikingi ahaparikwa imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, harimo n'abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'igitsina gore, bategereje imodoka kugira ngo zibageze, aho bashaka kugera.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo amatara menshi ari kwaka, impande y'umuhanda hari icyapa gikoreshwa amategeko y'umuhanda gifite ubuso bwa mpande enye, mo mu imbere handitsemo pa mu ibara ry'umweru, hashushanyijemo n'imodoka yo mu bwoko butwara abagenzi,

Icyapa kiri mu ubuso bwa mpande enye, mu ibara ry'umukara, cyanditseho Karangazi, inyuma yaho, hari umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye n'ibiti.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongogo ducagaguye tw'umweru n'umukara n'undi muremure w'umweru, harimo n'abanyamaguru bari kugenda, hakurya y'umuhanda hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umutuku cyanditseho Nyagatare polisi sitatiyo magana atanu ma.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo icagaguye y'umweru n'umukara, harimo ikinyabiziga cy'imodoka isa umweru yanditseho Akarere ka Nyagatare, hakurya y'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi, hari n'umutaka w'umuhondo wa sosiyete ya Emutiyeni, hicayemo umuntu utanga serivisi zitandukanye; kubikuza no kubitsa no kugura amayinite.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umurongo muremure w'umuhondo, harimo n'ikinyabiziga cy'igare gitwawe n'umuntu w'igitsina gabo, ari kugisunika hazirikiyeho umufuka, hakurya y'umuhanda hari igipangu gisa icyatsi.

Mu busitani harimo icyapa gikoreshwa mu mategeko y'umuhanda, gifite ubuso bwa mpande eshatu mu ibara ry'umutuku, mo imbere harimo umweru, hirya hari amazu menshi atandukanye ndetse n'abantu.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo imirongo icagaguye y'umweru n'umukara, n'undi muremure w'umuhondo, harimo ikinyabiziga cya moto gihetse umugenzi, bose bambaye ingofero zibarinda z'umukara, hirya y'umuhanda, harimo umuntu w'igitsina gabo uri gutambuka.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'umukara n'undi murongo muremure w'umuhondo, harimo ikinyabiziga k'imodoka ifite ibara ry'umweru n'umuhondo n'ubururu handitseho RBA, ni imodoka ikorera televiziyo y'Igihugu.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo uturongogo tw'umweru n'umukara n'umurongo muremure w'umuhondo, harimo ibinyabiziga bibiri bya moto bitwawe n'abantu, hirya hateye ubusitani bwiza burimo n'ibiti, inyuma yaho haparitse imodoka y'umweru n'umukara.

Mu gisharagati gifite ibara ry'icyatsi ubururu n'umuhondo, harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, harimo n'abambaye impuzankano ya polisi, n'undi wambaye impuzankano ya gisirikare, bari gukoma amashyi.

Igishararaga cy'umweru, kiriho igitambaro cy'ubururu, umuhondo n'icyatsi, harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, harimo n'abambaye impuzankano ya gisirikare n'abandi bambaye impuzankano ya Polisi, bari gucinya akadiho.

Mu muhanda wo mu cyaro hari abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore hari n'abambaye impuzankano ya gisirikare, bari mu muganda kugira ngo bakore umuhanda abaturage bage babasha kugera mu ngo zabo nta nkomyi.

Mu murima munini cyane harimo abantu benshi, ab'igitsina gabo n'ab' igitsina gore bari guhinga. Inyuma yabo hari ibiti binini kandi byinshi, bigaragare ko ari koperative.

Abantu batatu harimo igitsina gabo n'igitsina gore umwe yambaye ingofero wambaye n'amadarubindi, afite na ajenda mu ntoki, biragaragara ko bari kuza gusura ahantu hatandukanye.

Munsi y'igiti, mu busitani bwiza, hicayemo abantu benshi b'igitsina gabo, harimo abambaye impuzankan ya gisirikare n'undi wambaye impuazankano ya polisi, imbere yabo hari ameza, ateretseho telefone n'indangururamajwi.

Mu muhanda w'igitaka harimo abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo, igitsina gore n'abana bafite amabuye harimo uwambaye impuzankano ya gisirikare, bigaragare ko bari gukora umuganda . Hirya y'umuhanda hari umurima uteyemo insina.

Mu ishyamba harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore bambaye ingofero zibarinda z'umuhondo n'undi wambaye itaburiya y'umweru inyuma handitseho Nyagatare.

Abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore, higanjemo abambaye imyenda y'imikara, hari n'uwambaye impuzankano ya gisirikare bafite amasukari n'ibitiyo, bari mu muganda.

Abantu benshi b'igitsina gabo bambaye amakabutura n'imipira y'ubururu irimo n'icyatsi, bari gukina umupira w'amaguru mu kibuga cy'itaka bari kwirukanka.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru cy'icyatsi, harimo ikipe y'abagabo bambaye imyenda y'ubururu, hari n'umuntu wambaye impuzano ya gisirikare n'umuzamu wambaye imyenda y'umuhondo bafite icyapa kinini cyane imbere yabo, kiranga amarushanwa y'Umurenge Kagame kapu, bibiri na makumyabiri na kane bibiri na makumyabiri na gatanu, inyuma yabo hari abafana benshi cyane.

Mu busitani bwiza, harimo abantu benshi, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bari mu myitozo ngororamubiri, bari gukina umupira w'amaguru, hirya hari umurima uteyemo insina.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru k'ibitaka harimo amakipe abiri atandukanye y'igitsina gore, amwe yambaye imyenda y'imikara n'andi yambaye imyenda y'ubururu, bari mu myitozo ngororamubiri bakina umupira w'amaguru.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, hari gukiniramo ikipe y'abagabo, amakipe atandukanye, harimo abambaye imyenda y'umuhondo n'abambaye imyenda y'ubururu, bari gukina umupira w'amaguru kugira ngo batsinde cyangwa batsindwe cyangwa banganye.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru gisa icyatsi, kirimo imirongo y'umweru, harimo amakipe abiri atandukanye, ayambaye imyenda y'ubururu na yambaye imyenda y'umuhondo bafite ballon ifite amabara y'umutuku n'andi menshi.

Ikibuga kinini cyane cy'icyatsi giteretsemo balon ifite ibara ry'umutuku na kaki, harimo n'abantu benshi bambaye imyenda y'ubururu n'amasogisi y'umweru n'icyatsi barimo gukina umupira muri icyo kibuga.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo ducagaguye tw'umweru n'undi muremure w'umuhondo harimo abantu benshi igitsina gabo, igitsina gore n'abana bari mu myitozo ngororamubiri yo kwiruka, hakurya y'umuhanda haparitse imodoka hari n'akazu k'umuhondo ka sosiyete ya MTN.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru gisa icyatsi harimo abantu babiri umwe w'igitsina gabo n'undi w'igitsina gore bagaragara ko bagiye gutangiza umupira w'amaguru.

Mu kibuga cy'umupira harimo ubusitani, harimo amakipe abiri atandukanye ari gukina umupira w'amaguru, harimo abambaye imyenda y'ubururu bwijimye n'ubururu bwererutse, hirya hari inzu ifite amabati y'umutuku, nini cyane.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru harimo amakipe abiri ahanganye y'abagore bamwe bambaye imyenda y'imikara abandi bambaye imyenda y'ubururu bari gukina umupira w'amaguru kugira ngo bishimishe.

Mu kibuga cy'umupira gifite ibara ry'icyatsi n'umutuku harimo amakipe abiri atandukanye, hari iryambaye imyenda y'umuhondo n'iryambaye imyenda y'ubururu, bari gukina umupira w'amaguru hirya hari n'ahantu abasimbura bicara.

Mu muhanda wa kaburimbo, harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore bari mu myitozo ngororamubiri, hirya y'umuhanda, hari inzu nini kandi nziza igeretse.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru gisa icyatsi kirimo amakipe abiri ahanganye, ayikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu, indi ikambara imipira y'umweru n'amakabutura ya oranje bafite baro bari gukina kugirango bamwe batsinde cyangwa batsindwe.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru gisa icyatsi. Harimo amakipe abiri ahanganye y'abagore bamwe bambaye imyenda ya oranje abandi bambaye imyenda y'ubururu bwijimye bari gukora imyitozo ngororamubiri bakina umupira w'amaguru.

Mu kibuga kinini cyane, harimo abantu benshi cyane, ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bambaye imyenda itandukanye, amapantaro y'umukara, imipira y'umweru, umutuku bari mu myitozo ngororamubiri.

Abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bavuye mu myitozo ngororamubiri, bari gupimwa indwara zitandura kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze.

Hanze hari abantu benshi cyane b'igitsina gabo bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hateretse ibikombe bibiri n'imidari myinshi cyane ihabwa abatsinze.

Mu kibuga kinini cy'umupira w'amaguru gisa icyatsi, harimo abantu batatu b'igitsina gabo bambaye imyenda y'umuhondo bari mu myitozo ngororamubiri, inyuma yabo hari umurima munini.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane, igitsina gabo n'igitsina gore ,harimo abambaye imyenda y'impuzankano ya Polisi ,biragaragara ko bari kureba umupira.

Abantu benshi cyane, harimo ib'igitsina gabo, n'igitsina gore, bicaye harimo umwe wigitsina gabo uhagaze wambaye umupira wa orange, ufite ingofero y'umukara mu ntoki ze bari kubigisha ku kamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru gisa icyatsi, harimo amakipe abiri ahanganye, bamwe bambaye imyenda y'ubururu, abandi bambaye iy'umuhondo, bari gukina umupira w'amaguru, hirya hari inzu nziza kandi nini, hari n'ahaparitse moto.

Mu kibuga cy'umupira w'maguru gisa icyatsi harimo amakipe abiri atandukanye harimo iyambaye imyenda y'umuhondo n'abambaye imyenda y'icyatsi bagiye gukina umupira w'amaguru kugira ngo batsinde cyangwa batsindwe.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo icagaguye y'umweru n'umukara n'undi muremure w'umweru hakurya hari indabo hari n'amapoto ariho amatara ari kwaka mu muhanda, hirya hari inzu nini isize irangi ry'ubururu yanditseho Primus ni aho bagurishiriza ibyo kunywa.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo uturongo tw'umweru n'umukara, harimo ibinyabiziga bitandukanye moto nyinshi ndetse n'imodoka, hari n'abagenzi bari kugenda mu mpande z'uwo muhanda hari amazu atandukanye, hari na sitasiyo icuruza ibikomoka kuri peteroli.

Mu muhanda wa kaburimbo, urimo imirongo icagaguye y'umweru n'umukara n'undi muremure w'umuhondo, harimo umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda y'icyatsi uhetse n'umwana uri kugenda. Hakurya y'umuhanda, hari indabyo z'icyatsi, hari n'amazu ahubatse.

Mu muhanda w'ibitaka harimo na borodire ujya muri karitsiye, hatuye abaturage benshi, harimo n'ibipangu bitandukanye, harimo ibifite ibara ry'icyatsi, umukara n'ibindi byinshi.

Aho abanyamaguru bagendera hubakishije amatafari y'ubwoko bw'amapave kugira ngo bataza kugendera mu muhanda, bakaba imodoka zabagonga cyangwa bagakora impanuka ubuzima bwabo bukangirika.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo icagaguye y'umweru n'umukara n'indi y'umuhondo, harimo imodoka y'icyatsi itwawe n'umuntu, hirya hari amazu y'ubucuruzi.

Mu murima munini cyane urimo ubwatsi bwinshi, harimo inka nyinshi ifite ibara rya shokola n'indi y'umweru n'umukara ziri kurisha ubwo bwatsi, hari n'abantu baziragiye.